Umugabo akaba n'umuhinzi wabigize umwuga, yiteze igitambaro kirimo amabara y'umukara n'umweru, akaba yambaye uturindantoki aho ahetse ipombo ari kugenda atera umutima umuceri kugira ngo arwanye ibyonnyi bituma atabona umusaruro uhagije.

Umukobwa ndetse akaba ari n'umuhinza wabigize umwuga, yambaye ishati y'umweru ndetse n'umusaraba mu ijosi ubambyeho Yezu Kristu, yambaye amarinete ndetse yiteze n'igitambaro k'igitenge akaba ari gutera umuti mu bigori bye byamaze gufatwa n'icyonnyi cya nkongwa.

Umugabo akaba n'umuhinzi mworozi wabigize umwuga, yambaye uturindantoki dutukura, igisarubete cy'ubururu, akaba ahetse n'ipombo y'umuhondo, aho ari gutera umuti mu bigori ,kugira ngo arwanye icyonnyi cya nkonkwa.

Abagabo bane b'ababarobyi, bari kuroba, bifashishije agatimba, aho bose bahagaze mu cyuzi kirimo amazi ubona ko batose. Umwe akaba afite ifi mu ntoki, aho arikuyirumisha ku rutoki ngo arebe ko yarurya.

Umugabo umuhinzi w'amafi, yambaye agapira karimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, aho afashe amafi abari mu ntoki, akiri mazima kuko ayajabuye mu mazi, akiri mazima, areba.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, afite amafi abiri mu ntoki, yambaye ingofero ndetse n'amataratara akaba ari umworozi w'amafi wabigize umwuga, aho ayorora akanayagurisha mu mahanga.

Abagabo babiri bakaba aborozi b'amafi babigize umwuga. Bambaye ibisarabeti by'ubururu, aho umwe muri bo, ari kudaha umuti akawuyanyagiza mu cyuzi kugira ngo avure amafi, yekurwara.

Abagore bitinyutse bagakura amaboko mu mifuka bakaba ari abarobyi babigize umwuga. Bari gutembera mu bwato bwinshi cyane, aho buri bamwe bakoze agatsinda bari gukoreramo baroba.

Ibase ishaje cyane isa n'ubururu, iteretse hanze ikaba yararongongotse impande ebyiri, aho irimo amafi bavuye kuroba, hirya yayo hakaba hari akandi kadobo k'icyatsi kari kureguka bisa naho nako karimo amafi.

Abagore batatu baricaye barambirije hasi bakaba bari gutoranya ikawa aho bayisutse hasi ku mifuka bari kuyitoranyamo inziza ndetse kugira ngo indi itari nziza bayireke bagurishe ikawa imeze neza gusa.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare ari gusoroma ikawa itukoreje kugira ngo ayijyane ku ikusanyirizo aho ayihinga nk'igihingwa ngandurabukungu kimufasha mu kwiteza imbere ndetse n'abaturanyi be.

Inzu isakaje amategura iteye karabasasu, ku ruhande akaba hari igihingwa ngandurabukungu cy'ikawa kiriho ikawa itoshye cyane, aho hirya yacyo hari n'insina ya fiya.

Umugore akaba n'umuhinzi kabuhariwe w'ibihingwa ngandura bukungu byiganjemo ikawa, ahinga ikawa ku kigero kinini cyane aho kuri ubu ngubu ari kuyisoroma ubona ko yeze neza ifite ibitumbwe bitukurije.

Ikawa nyinshi cyane, zirunze hamwe, hakaba hari umugabo uri kuzitoranya, arebamo izapfuye, izumye ndetse n'izitari zakeze. Ari kuzishyira mu ibasi isa n'umutuku, kugira ngo azitandukanye n'izindi zimeze neza.

Abagore b'abahinzi ,bakaba bahinga by'umwihariko ibihingwa ngandurabukungu. Bakaba barahinze umuceri aho weze cyane ukaba urimo neza, ubona ko warushishe, ubungubu ukaba warumye ,bakaba abageze mu gihe cyo kuwusarura.

Ibihingwa by'ingano zikaba zarahinzwe ku bwinshi, umurima munini cyane aho ubona ko zeze neza ndetse zikaba zigeze no mu gihe cyo gusarurwa, kuko zarumye amababi niyo akiri mabisi yonyine.

Abagore bari gutambuka mu kayira gatoya. Bose bikoreye ibitebo binini cyane, bamwe bakaba bahetse abana abandi ntabo. Ibitebo bikoreye birimo ikawa ndetse n'icyayi bavuye gusoroma mu umurima wabo.

Umugabo akaba umuhinzi wabigize umwuga. Ahinga by'umwihariko ibihingwa ngandurabukungu by'ikawa. Akaba ari gusoroma ikawa yeze kugira ngo ayijyane ahabugenewe ayigurishe bamuhe amafaranga.

Umugore wambaye igitenge n'umupira wamako maremare. Yateze agatambaro k'umutuku ku mutwe, akaba ari umuhinzi w'bigize umwuga uhinga cyane cyane ibihingwa ngandurabukungu by'ikawa ndetse n'icyayi, aho ari gusoroma icyayi mu gitebo cyabugenewe.

Umugore uhinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibihingwa ngandurabukungu, birimo n'ikawa. Yikoreye indobo y'icyatsi ku mutwe, akaba ari gusoroma ikawa yatukurije, kugira ngo ayijyane kuyikusanyirizwa.

Umugore w'umuhinzi uhinga cyane cyane ibihingwa nkandurabukungu by'ikawa. Ari gusoroma ikawa mu murima we aho ari gutoranya iyatukurije, mu gihe imbi isa n'icyatsi arayisiga akazagaruka.

Abaturage bagize koperative yiyemeje guhinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibihingwa ngandurabukungu, bahinze umuceri mu kibaya ubu ngubu ukaba weze bageza igihe cyo gusarura bamwe barikoreye abandi baracyasarura.

Umugore wambaye ishati y'umuhondo irimo imirongo itambitse y'umukara. Yiteze igitambaro cy'umutuku, akaba ari umugore w'umuhinzi, uhinga cyane cyane ibihingwa ngandurabukungu, birimo ikawa, akaba ari no kuyisoroma.

Uducupa twinshi cyane turasa n'umweru, turiho igipapuro kituzengurutse gisa n'umweru ndetse hakaba harimo n'utubara tw'icyatsi. Amacupa yose ateretse mu nzu, aho arimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura inyamaswa.

Agapaki k'agasashi kari mu ibara ry'umukara, kaba kariho ibara ry'umweru hagati, kariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, umukara ndetse n'umutuku, kakaba gashushanyijeho inkoko, bisa nk'aho karimo umuti uvura inkoko.

Agasashi gafite ibara ry'umweru kanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, hasi hakaba hari ibara ry'umutuku. Ku ruhande hari utundi dusashe twinshi cyane turunze hamwe dushushanyijeho inkoko, utu dusashe twose tukaba tubamo umuti uvura inkoko.

Amacupa menshi cyane, ateretse mu kabati, aho asa n'umweruru. Ariho igipapuro cy'umweru, kiriho amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, kikaba gishushanyijeho inka. Aya macupa yose arimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata inka.

Ibikombe byinshi cyane biterekeranyije bigerekeranye. Birasa n'umweru bikaba bifite imipfundikizo isa n'icyatsi . Ku ruhande hakaba hari utundi dupapuro dusa n'umweru, byose bikaba birimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo yo mu rugo.

Uducupa twinshi turi mu ibara ry'umweru tubonerana dupfunyikishije impfunikizo y'icyatsi hirya hakaba hari igikarito kinini gisa n'umweru gishushanyijeho inka, aya macupa yose arimo umuti wifashishwa mu kuvura inyamaswa ziganjemo izo mu rugo.

Abantu batatu ni abagabo babiri ndetse n'undi w'umwana. Bahinga umuceri mu kibaya aho umuceri wabo ukiri muto ariko utoshye cyane, bakaba bawitaho bawubagarira ndetse banawuvomerera ku gihe.

Abahinzi benshi cyane bakorera mu makoperative bahuriye hamwe bari mu murima aho baje gusarura imboga bamaze kuzisarura bose barunamye abandi barasutamye bari kuzifunga mu mifungo kugira ngo bajye kuzicuruza mu isoko.

Aborozi babigize umwuga bakaba bagize koperative duhugurane, aho bafite inka nyinshi cyane bitaho bakaba bazigaburira zose zirira hamwe, aho abayobozi batandukanye baza kubasura bakareba ibikorwa byabo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa akaba ari muri pipinyeri ahantu hinarizwa ibigo bitandukanye byiganjemo voka kugira ngo ubibangurire uzajye kubitera imeze neza bitatinza kubona umusaruro.

Abagabo batatu babiri bambaye ingofero, mu gihe undi umwe nta ngofero yambaye. Akaba ari abahinzi bari kubatura ibihingwa bari barabaditse kugira ngo bibanze bishibuke akaba agiye kubitera mu murima.

Umugabo w'umworozi. Akaba ubona yishimiye cyane, aho ari gukama inka ,akamira mu ndobo y'icyuma. Yambaye umupi w'amaboko magufi ndetse n'ikabutura y'ikoboyi, ubona ko yishimiye kuba afite iyi nka.

Inka nyinshi cyane ziri mu rwuri, imwe ifite inyana yayo iri no konka indi ikaba ihagaze bayiziritse amaguru aho bari kuyikama, umugabo ari kuyikama akamera mu ndobo akaba ahagaze n'undi mugore ubyibushye bisa naho ariwe nyiri izo nka.

Umugabo n'umugore bafite amasuka ku rutugu bose ni abahinzi babigize umwuga, inyuma yabo hakaba hari umurima uteyemo ibihingwa by'ibigori, imyumbati ndetse n'insina ariko izi nsina zikaba nta bitoki zifite.

Umurima munini cyane urimo ibihingwa byinshi cyane bitandukanye, ndabona umwumbati utoshye cyane, hasi hari ibijumba, mu gihe hirya hari insina zikiri ntoya bisa n'aho inkuru zazanye ibitoki bakabitema.

Ibintu byinshi cyane biteretse mu kabase ka parasitike ariko byose bikaba byiganjemo ibikoreshwa mu rugo. Harimo inyanya, imboga, amavuta yo kurya n'ayo kuyisiga, hakabamo sadine ndetse umuti w' amenyo.

Ikibaya kiza cyane gihingwamo ibihingwa bitandukanye, byaba ibihingwa ngandura rugo cyangwa se ibihingwa ngandura bukungu, hakaba harimo ibihingwa bitoshye cyane, aho hino hariho umurima udahinze ushinzemo akantu.

Ikibaya kiza cyane gihingwamo imyaka itandukanye irimo imboga n'imbuto, akaba ari ikibaya cyateguwe neza, kikaba cyaranahinzwemo ibihingwa bikiri bito. Hagati hashinzemo ipoto ,mu gihe ku ruhande hariho umuhanda ucamo ibinyabiziga.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, birimo ibinyamasukari nk'ibisheke bikiri bito ubona ko bitaragera igihe cyo kuribwa, hirya yabyo hateye insina imwe ifite igitoki, hino hakaba harimo ibindi byatsi bitemaguye byumye.

Umurima munini cyane. Akaba ari ikibaya uhinzemo igihigwa cy'inzuzi, ubona ko zikiri nto kuko ntabwo zirazana ibihaza. Ariko birashoboka nanone ko zitazabizana kuko zimwe muri zo zirashaje.

Umurima munini cyane, uteyemo imboga za dodo. Akaba ari imboga zishishe ,aho imboga ziribwa ndetse zigafasha umubiri kurwanya indwara. zahinzwe ku bufatanye n'abaturage ndetse na Guverinoma y'u Rwanda kugira ngo bateze imbere imirire myiza mu baturage.

Ikibaya kinini cyane gihinzemo umuceri ndetse n'ingano. Urabona ko bitoshye cyane bisa naho byabonye amazi meza ahagije, ubu bikaba bigeze mu gihe cyo gusarurwa, aho umuntu yabisarura akabirya.

Uruboga rutoshye rwa dodo. Ubona ko rwakuze rukaba rwararegeranyije kuko rwazanye ubusenzi hejuru bisa naho nyirargo yatinze kurusoroma ngo abe yaruteka arurye nk'uko bisanzwe.

Igiti cy'umwembe, kikaba gitoshye cyane, gifite amababi y'icyatsi tsiriri, bisa naho cyabonye ifumbire rihagije, ariko ku rundi ruhande hakaba hari n'amababi y'umuhondo, bigaragara ko ari hafi guhunguka.

Igihingwa kizwi nk'urusenda rushishe cyane rukaba rwaratukuje rusa n'umutuku, rufite amababi atoshye asa n'icyatsi tsiriri rusa naho nyirarwo yarufumbiye neza akoresheje ifumbire y'imvaruganda.

Umurima w'ikinani urimo ibishyimbo bikiri bitoya byimejeje, bisa naho nyirabyo atari we wabiteye kuko ku ruhande nta bindi bihari cyangwa ngo ubone ko yabyitayeho abibungabunga.

Isoko ryiza cyane ryo mu cyaro ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibinyamafufu, aho hari ibijumba by'umweru bya wadada. Biri mu mifuka bitogeje kuko iyo byogeje bihita byuma.

Urubuga rwiza cyane rutoshye, ni uruboga rwa dodo ruri kumwe na ngezi zazo mu karima k'igikoni, aho bazisoroma bakaziteka mu biryo bigafasha abana ndetse n'abakuru kwirinda indwara.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bitoshye. Ku ruhande hahinze urutoki, aho imbere y'urutoki hari igihingwa cy'umuceri gihinzwe ku buso bunini cyane.

Ishyamba rinini cyane ubona ko ryijimye, ririmo ibiti by'inganzamarumbo bishishe cyane. Akaba ari ishyamba riri mu gihugu cy'u Rwanda, aho ryitabwaho cyane n'abaturage ku bufatanye n'inzego za leta.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane, rikaba ririmo ibiti bire by'inganzamarumbo, ubona ko byakuze kurusha ibindi. Iri shyamba rirashishe cyane, bigaragara ko ryitaweho neza cyangwa se tukaba turi mu gihe k'imvura.

Inka nyinshi cyane ziri mu rwuri, ziri kurisha zisanganiye, aho harimo n'ibiti binini cyane by'inganzamarumbo, bituma haba agacucu, zikarisha nta zuba riri kuzica cyane.

ishyambare rinini cyane ry'inzitane, ririmo ibiti bitoshye by'icyatsi kibisi cyane. Mo hagati hakaba hari gutembamo umugezi w'amazi makeya, usa naho afite isoko muri iri shyamba.

Amashyamba manini cyane arimo ibiti by'inganzamarumbo, hakaba harimo igihu cy'umweruro kuko haracyari mu gitondo ntabwo izuba riraza ngo haze agasusuruko kibe cyagenda, aya mashyamba aratoshye cyane bisa nk'aho arayo mu Rwanda pe!

Abakerarugendo biganjemo abazungu, bari gutembera mu mashyamba y'u Rwanda. Bitwaje ibyuma byo gufata amashusho. Aho bari kumwe n'umurinzi w'inyamaswa, akaba n'inzobere kuganira nazo. Bari gufotora ingagi kugira ngo bajyane ifoto yayo.

Kaburimbo imanuka irimo uturongo tw'umweru, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, hepfo y'umuhanda hakaba hari ikinani ndetse hakurya hakaba hagaragara nk'ahari amazu menshi cyane atuwemo n'abantu.

Ni abagabo babiri bari mu ishyamba, umugabo umwe yambaye bote, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru w'amoboko magufi, mu gihe yambaye ikote ry'umukara ry'amaboko maremare, umwe akaba afite umuhoro aho ari gutema ibiti by'ikawa azicira.

Ni ahantu heza cyane, hari amashyamba menshi. Hakaba hari amazi asuma ateye amabengeza. Ahantu abakerarugendo bakunda gusura ndetse bakahagirira ibihe byiza cyane.

Amashyamba manini cyane, harimo utuzu dukozwe mu biti, turimo abantu biganjemo abana, hari akayira kagana k'utwo tuzu, aho hari kugendamo umugore wambaye ikanzu nini cyane afite n'imarete mu ntoki, hejuru mu giti kimwe hakaba harimo inkende.

Ibigori birambitse hasi, bikaba byamaze gusarurwa, kimwe muri byo bagitonoye, kiragaragara nk'igisa n'umuhondo kuko ari imbuto y'ibigori bizwi nka Mbagara, aho biryoha cyane ndetse bikagira n'umutsima uryoshye.

Indabo zifite ibara ry'umutuku hasi hakaba hasa n'icyatsi, hakaba n'izindi ndabo ziri ku ruhande z'umweru, ndetse n'iz'umuhondo zose ziri mu murima umwe, zitegereje ko zisarurwa kuko zimaze kwera neza.

Abagore batatu, babiri bambaye ingofero z'urugara mu gihe undi umwe nta ngofero yambaye, ni abagore b'abahinzi aho bahinga indabo bakazicuruza amafaranga menshi, ubugubu rero bageze mu gihe cyiza cyo gusarura, aho bazanye ibikoresho bitandukanye bashyiramo indabo zabo.

Ibihingwa byizasa cyane bitoshye. Byiganjemo imbuto z'amashu zikiriri ntoya, ku ruhande hakaba hari utumeza turi mu ibara ry'umweru, duturetseho amabase arimo ibindi bihingwa bitandukanye bikiri bito.

Abantu babiri bakaba n'abahinzi babigize umwuga, bahinga ibihingwa byiganjemo ibishyimbo, aho bari kugenda babifata bakabirandisha ku ndodo zabugenewe, ariko hirya bakaba bashingirije imishingiriro isanzwe.

Igikarito kigufi kirambitsemo voka z'mbangurire zidahiye, ubona ko zisa naho bavuye kuzihanura. Izi ziraryoha cyane, aho iriya hari ikindi gikarito kirambitsemo imiteja nayo ikiri mibisi.

Abantu batandatu biganjemo abagore, harimo abagabo babiri, bakaba bari gutembera mu murima w'amashu akiri matoya, aho bari kureba niba nta byonnyi birimo kugira ngo bamenye niba bayatera umuti kugira ngo babirwanye.

Inanasi nziza cyane zishishe. Akaba ari umurima urimo inanasi ebyiri zeze zatukurije cyane. Hirya yazo urabona hari ikinani ,gisa naho izo nanasi ku ruhande rwazo hadahingwa.

Akarima k'igikoni gakoreshejwe imifuka y'umweru. Gateyemo imboga zitandukanye, buri ruhande aho hbanje dodo, haruguru hakaba ibibiriganya, mu gihe hejuru cyane harimo puwalo. Ku ruhande hakaba heze ibishyimbo ndetse n'insina.

Igihingwa cy'inyanya kikaba cyarahinzwe ku buso bunini cyane aho cyahinzwe mu buryo bwa kijyambere, hariho inyanya uhereye hasi zitukurije cyane mujyihe hejuru hariho n'izindi zitaratukuriza ku rundi ruhande hakaba hariho n'ibindi bihingwa bikiri bito cyane nta zi ubwoko bwabyo.

Umurima munini cyane uhinzemo ibigori ni mu gishanga hakaba hari n'akuma kabugenewe kari gucucira amazi muri ibi bigori, hirya hari abahinzi benshi cyane ubona ko bakorera mu makoperative bakaba bari kuronorera ibigori kuko bimaze gukura.

Umugabo wambaye ingofero y'urugara. Akaba yambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu n'ipantaro y'umukara, afite igihombo kivamo amazi, aho ari kuvomerera ibihingwa bye bikiri bitoya kugira ngo arebe ko byakura neza.

Umugabo ufite igihombo kirekire cyane. Akaba ari mu murima mugari cyane, ibihingwa byose yarabitemye, abisaza utundi tukiri dutoya, ubona ko ari imbuto yashatse guhinga. Ari kuzivomerera kugira ngo zirusheho gukora neza.

Umugabo ni umuhinzi wabigize umwuga ndetse akaba afite n'uburyo bushya bwo kuvomerera imyaka ye akoresheje igihombo, inyuma ye hakaba hari abagore batandatu bari kubagarara imyaka nkaho hirya yabo hari urutoki hirya y'urutoki hakaba ibiti.

Abaturage bane bakaba ari abahinzi babigize umwuga, aho bahinga cyanecyane ibinyampeke byiganjemo ibigori. Bafite umuriro munini cyane aho bari kuwuvomera bifashishije uburyo kuzana igihombo kinini cyane gicucira amazi.

Umugabo wambaye ipantaro y'itesi, yambaye umupira w'amaboko magufi, yambaye ingofero ndetse atereye furari ku rutugu, akaba afite igihombo kivoma amazi, aho ari kuvomera ibihingwa bitandukanye mu buryo butandukanye n'ubwa kera, aho umuntu yavomezaga injerekani.

Umugabo uri kuvomerera imbuto ze, zikiri ntoya, zirimo imboga rwatsi. Yambaye ingofero y'urugara, ishati y'amako maremare ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hakaba hari n'imashini imufasha mu gukurura amazi yo kuvomeza.

Umugore wambaye ikanzu idose mu gitenge yambaye n'agasengeri k'umweru akaba yambaye agapfukamunwa yakamanuye. Ni umuhinzi wabigize umwuga, aho ari kuvomerera imbuto ze akoresheje kuba afite igihombo kiri kuvamo amazi, mu mwanya w'uko yajya kuvoma yitwaje ibidomoro.

Umugabo wambaye ikabutura akaba yambaye umupira w'amaboko magufi aho ari umuhinzi wabigize umwuga uhinga cyanecyane ibijyanye na karoti afite rozwari ebyiri mu ntoki aho ari kuvomerera karote ze kuko avuye kuvoma mu mugezi utemba uri ku ruhande.

Umugabo w'umusaza ni muhinzi wabigize umwuga, yambaye ingofero umutwe ikabutura ndetse n'ishati y'amaboko magufi, ari kuvomera ibihingwa bye yifashishije indobo cyane ko nta bushobozi afite bwo kugura imashini.

Imisozi myiza cyane yo mu Karere ka Burera ikaba irimo amaterasi y'indinganire, iriho ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibishyimbo, ndetse hakaba hariho n'urutoki. Hari inzu yubakishe amategura hakaba hari n'umugore ariwe nyiri iyo nzu.

Imisozi myiza cyane irambirije, ikaba ihinzeho ibihingwa bitandukanye, ku ruhande rumwe hakaba hari n'amashyamba meza atoshye aho hamwe hahingwa n'ubutaka butoya, ni mu kirere cyiza cyane kiri mu ibara ry'umuhondo ubona ko ari ku izuba ry'igikatu.

Imisozi myiza cyane, imirambi y'akataraboneka, iteyeho amashyamba y'inzitane, aho harimo ibiti binini cyane by'inganzamarumbo, aya mashyamba arashishe cyane ubona ko yitaweho.

Umusozi munini uriho amashyamba mato, hasi mu kibaya hakaba hari pipiniyeri, ahantu hororerwa imbuto z'ibiti ndetse n'ibindi bihingwa bikiri bitoya, kugira ngo bitazangirika.

Ikiyaga cyiza cyane giteye amabengeza, nta kirwa na kimwe kirimo kikaba gikikijwe n'imisozi myiza cyane y'imirambi, uruhande rumwe hahinze ikawa nk'igihingwa ngandurabukungu mu gihe urundi ruhande ari amashyamba.

Abantu benshi cyane b'abahinzi bari mu murima umwe buri wese afite igikoresho ari kwifashisha abagarira imyaka, uyu murima uhinzemo imbuto z'ibinyomoro ariko bikiri bitoya ubona ko bari kubyitaho kugira ngo nibimara gukura bizatange umusaruro mwiza.

Imisozi miremire iriho ibihingwa bitandukanye byiganjemo amashyamba, urutoki, ibigori ndetse n'ubwatsi bw'inka n'imisozi iriho amaterasi y'indinganire, indi misozi biteganye ubona ko itariho ibimera byinshi kuko izuba rishobora kuba ryarabaye ryinshi muri uyu mwaka.

Imisozi myiza cyane iteye amabengeza iriho ibimera bitandukanye bitoshye n'ibidatoshye, ifite ikibaya cyiza cyane ubona cyakurura ba mukerarugendo ikaba igaragaza ubwiza nyaburanga butatse u Rwanda.

Imisozi myiza cyane iriho amashyamba y'inganza amarumbo,i misozi umwe ariho ibiti mu gihe undi hariho ibihingwa bitandukanye byiganjemo iby'urutoki byose bikaba bifasha abaturage kugera ku iterambere rirambye.

Ishyamba rinini cyane riratoshye rikaba ririmo ibiti binini ariko hakaba harimo kimwe kibiisumba byose kinganzamarumbo ubona gitoshye cyane, haruguru y'iryo shyamba hahinze umurima w'icyayi cyiza cyane cy'u Rwanda.

Ingurube zikiri ntoya ndetse n'indi nkuru yazibyaye, bikaba biri mu kiraro, intoya zirasa n'umweru nubwo zigaraguye mu rwondo, indi nkuru ikaba isa n'umukara, zororerwa mu nzu, aho zisanga bakanazigaburira.

Amahene ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ikijuju, ari gutembera mu murima aho ari kurisha ubwasi dore ko uyu murima nta bihingwa biteyemo ngo zirona, hirya y'umurima hakaba hateye ibiti bikeya ariko bikura.

Inka nziza cyane y'imbyeyi. Iri mu kiraro aho kidasasiye neza. Iyi nka iteye iherena ku gutwi kw'ibumoso aho hirya yaho hari ibyatsi by'ibishogoshogo ngo baribuze kuyigaburira.

Ibyana bibiri by'umweru by'ingurube, n'ikindi kimwe utamenya ibara ryacyo. Biri mu kiraro aho babisize, babishashije ibishariro. Igikuta k'icyo kiraro ni sima, ndetse hakaba hariho n'umwenge uri gucamo izuba.

Inkoko nziza cyane, ni inkoko akazi zakoroyira, zifite ibirokoroko. Zikaba ziri kurya igiheri, aho bagishyize mu gahombo gakasemo kabiri kugira ngo zitabinyanyagiza hasi ku butaka.

Inzu ndende cyane yubakishije imbaho ikaba hagati harimo imbaho zihagaze zimeze nk'urwego, hasi hateye sima aho hari guturuka urumuri bigaragara ko ari urw'izuba.

Ingurube isa n'igitaka iri mu kiraro cyayo aho isanzwe iba, nyirayo yayisize nta byatsi yayihaye ahubwo iri kurya ibishariro iryamyeho.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubworozi, isakaje amabati ikaba iteye sima ku rundi ku ruhande hakaba hari imbaho hasi. Igikuta cyubakishije amatafari manini cyane ya ruriba. Aho hanze hari igikoresho kifashishwa mu kuzana umuyaga mu nzu.

Abantu benshi cyane biganjemo aborozi b'inka, bakaba bahagaze mu ifamu aho umwe muri bo ari gukama inka, abandi bakaba bahagaze bamurebera batamufashe.

Inyamaswa nziza cyane z'inka , ubona zibyibushye, zibayeho neza. Zikaba ziri kurisha mu rwuri, ku kazuba keza kagasusuruko, ubona ko zitaweho cyane kuko ziratoshye kandi zirabyibushye.

Ingurube y'umweru iri mu kigero cy'amafaranga ibihumbi mirongo inani, ikaba iri mu kiraro aho bayisashije ibishariro. Ikaba ari na byo iri kurya kuko nyirayo yasize nta bwatsi ayihaye.

Inka ziri gutembera mu rwuri ziri kurisha muri zo nta n'imwe ifite amahembe, aho zifite amabara y'ikijuju. Umushumba wazo ari ku ruhande aho ari kugama izuba munsi y'igiti.

Agatanda gakozwe n'ibiti kakaba kari mu byiciro byinshi cyane by'udusanduku, aho buri kamwe karimo igihingwa kimwe. Hamwe hari ibirayi, amashaza, ingano, ibishyimbo, ubunyobwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda y'umweru afite umusatsi usanzwe akaba ari muri pepennyeri aho ari kuvomerera imbuto ziri mu bihoho zitari zamera, hirya ye hakaba hari n'izindi mbuto zameze zikuze zigeze igihe cyo guterwa.

Umugore akaba n'umuhinzi wabigize umwuga .Ahinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibinyampeke ,aho ahinga amasaka. Afite amasaka y'ubwoko bubiri, amwe atukura cyane, ay'umweru ndetse n'andi ajya kuba umweru.

Umugabo w'umucuruzi akaba acuruza imbuto z'ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibinyampeke, harimo umuceri ndetse hakaba n'ubunyobwa, hakaba n'ibishyimbo yadashye ibishyimbo bike mu ntoki akaba ari kwereka umuntu waje guhaha.

Umugabo uhinga ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibinyampeke. Afite amajeri mu ntoki, aho ari kuyatoranya kugira ngo arebemo akiri mazima, mbega ajye kuyatera kuko imbuto ikenera intete zikiri nzima.

Umugore uteze agatambaro k'umutuku mu mutwe. Yambaye iribaya, akaba afite inkoko y'umuco nyarwanda, aho ari kugosora ibishyimbo byiza cyane bya ruvuna inkingi kugira ngo abikoremo imbuto y'ibishyimbo.

Inka nziza cyane ziganjemo ibimasa, zikaba zivuye mu rwuri aho zari zirikurishirizwa kugira ngo zinjire mu rugo kuko haje inzobere mu buvuzi bw'amatungo, akaba aje kuzikingira icyorezo.

Mu nzu ahororerwa inkoko zikiri nto, inzu iteye amarange y'umweru irimo urugi rw'icyuma ndetse n'amadirisha biteye irange ry'umutuku, muri iyi nzu harimo inkoko nyinshi cyane zikiri nto, hakabamo n'ibikoresho bitandukanye bizifasha kugira ngo zishyuhe.

Abagabo babiri bambaye uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'udusashe mu mutwe, bakaba ari inzobere mu buvuzi bw'amatungo. Baryamishije imbwa aho bari kuyivura bayibaga ahantu bafite ikibyimba.

Inka nyinshi cyane z'inyambo ziri gutembera mu rwuri zirisha, aho abashumba bazo babiri baziretse bakaziha umwanya ngo zibashe kurisha neza bakaba bazitaje. Umushumba umwe yambaye agapira k'umutuku, mu gihe undi yambaye ak'icyatsi.

Abagabo batatu ndetse n'abakobwa babiri, bakaba ari inzobere muvuzi kamatungo, bose bambaye ibisurubeti bya kaki, bakaba bari gukingira inka kugira ngo barebe niba itarwara icyi cyorezo.

Inka nyinshi cyane z'inyambo. Ziri gutembera mu rupangu, aho hari abagabo batandatu, akaba ari inzobere mu buvuzi bw'amatongo, bamwe bambaye amataburiya y'umweru, abandi bakaba ari ntayo bambaye, bose bari gukingira izi nka z'inyambo.

Inyamaswa enye z'imusozi akaba ari inkende ziri gutembera ku mbuga, hirya hari ishyamba ririmo ibiti birebire cyane by'inganzamarumbo aho biri impande y'igipangu kirimo inzu y'agacurama.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane rikaba ririmo ibiti by'inganzamarumbo, ku ruhande hari umurima uryamyemo inyamaswa nyinshi cyane z'umusozi zapfuye zisa naho zishwe n'icyorezo.

Inyamaswa nyinshi cyane zifite amabara y'umukara n'umweru, zikaba ari inyamaswa z'ishyamba, aho zagiye kunywa amazi. Zimwe zageze mu mazi, izindi zikaba zihagaze ku musozi ziri gucungira ngenzi zazo ngo hatagira ikizitera.

Inyamaswa y'inkazi y'ishyamba ikaba ari ingwe aho yuriye igiti uboana yiryamiye ituje cyane, hirya yayo hari inzu iteye irangi ry'icyatsi ndetse hakaba hari n'ibiti biri kugaragaraho gato.

Mu ishyamba ahari inyamaswa zitandukanye z'imisozi ziganjemo ishya ndetse n'impongo, zikaba zihagaze zituje mu gihe izindi ziryamye hasi zikaba ziri kota akazuba kuko ni mu gitondo ari agasusuruko.

Inyamaswa y'inkazi y'imusozi, yitwa ingwe, ikaba iryamye, aho yo igiti kinini cyane, iri mu kirere ku ishami ryacyo, aho iri gucunga hasi ngo irebe niba nta kanyamaswa kari gutambuka kugira ngo igafate ikarye.

Akanyamaswa k'imusozi kameze nk'imbeba, kakaba gafite ubwoya bwinshi cyane, gafite igisembe, kari mu ibara ry'ikijuju, kari gutembera mu murima, aho kari kureba ko kabone icyo gatora, kakarya.

Inyamaswa y'intare, iraryamye ku gasusuruko irikota kazuba, aho iri kumwe n'icyana cyayo ubona ko kikiri gito, cyo kikaba kitaramenya guhiga, aho gitegereza ko igihingira ikakigaburira.